Umugore uri gucunda amata urimo wigisha abandi uko babikora, ndetse mu muco nyarwanda tuzi ko aba kera bacundaga amata bashakamo amavuta, hagasigara amata yavanwemo amavuta bakayita amacunde.